Abana bakiri batoya bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke, aho imbere yabo hari abamama babiri b'ababyeyi, bari kugenda babereka uburyo ki bakaraba intoki kuri kandagira ukarabe kugira ngo bimakaze isuku.

Umugore wambaye itaburiya isa ubururu. Akaba ahagaze imbere ku kibaho, inyuma ye hari abana bato bicaye ku mukeka. Ni abana b'incuke ari kubigisha. Ubu ni uburyo bwashyizwemo na Leta y'u Rwanda.

Abana batoya biga mu mashuri y'incuke, bicaye ahantu mu busitani, bicaye ku mukeka, imbere yabo hahagaze mwarimu wabo, aho ari kugenda abigisha uburyo ki bagomba kubaho neza kandi bakamenya gusoma.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe, aho bari kumwe na mwarimu wabo ari kugenda abigisha, ni abana biga mu mashuri y'incuke, baramukurikiye bigaragara ko banejejwe n'ibyo ari kubigisha.

Abana bakiri batoya bambaye impuzu mpuzamano, bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bicaye ku meza bayakikije, aho buri mwana wese agiye ari kurebana na mugenzi we, bigaragara ko bishimye.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bicaye ku tumeza mu buryo b'amatsinda. Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke. Bicaye ku meza, aho bari kugenda bungurana ibitekerezo, ku kibazo mwarimu wabo yabahaye.

Abana benshi bateraniye hamwe bicaye ku mukeka aho bari gukoma mashyi bishimye bari kuririmba, bicaye bakoze uburyo bw'uruziga, imbere yabo hahagaze umwarimu uri kugenda abigisha.

Abanyeshuri bakiri batoya bigaragara ko bashobora kuba biga nko mu mashuri abanza, bakaba bicaye bagera muri bane bambaye impuzankano, bakaba umwe afite agasanduku imbere ye gasa umukara n'ubururu.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bahuriye hamwe aho bari ku ishuri, bakaba bari kugenda biga ku bintu bigiye bitandukanye, imbere yabo hari mwarimu wambaye itaburiya uri kuza abasatira, ni iby'agaciro cyane kubona abanyeshuri bishimye.

Abana bakiri batoya b'incuke bakaba bahagaze mu muhanda, imbere yabo hari mwarimu wambaye agapira k'icyatsi, aho ari kugenda ababwira ibintu bagasubiramo kugira ngo abahugure.

Abana benshi cyane bagiye batandukanye, bicaye hasi ahantu ku mukeka, bakaba buri wese afite igikombe ari kunywa amata, iruhande rwabo hahagaze umubyeyi, bigaragaza ko ari mwarimu wabo, ari we wabahaye ayo mata.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri, bakaba bicaye mu ntebe, higanjemo abakobwa n'abahungu, bakaba bicaye barebye imbere, bakurikiye ibyo mwarimu arimo kubabwira kugira ngo babashe kubyumva.

Udukarito tugera muri tune, turimo imiti igiye itandukanye, iyi miti ikaba yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, aho umuntu wese uyikeneye, yanyarukira hano bakayimuha ku giciro gito kandi byihuse.

Ikigo cy'amashuri gifite akayira kari kunyuramo abanyeshuri bajyayo bagiye ku ishuri, hakaba harimo umwe muri bo wikoreye ibasi y'ubururu, bigaragara ko harimo imbuto ajyanye ku ishuri ariko agiye no kwiga.

Ku bikuta bigiye bitandukanye, hakunze kuba hamanitseho imifuka igiye itandukanye, iri mu mabara y'umweru ariko igiye iciyemo uturongo tw'umutuku, bigaragara ko hari ikintu runaka baba badashaka kwerekana.

Ni mu ishuri aho harimo igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse n'ikibaho cy'umukara, hakaba harimo umwarimu uri kubigisha imibare, akaba ari gutunga urutoki abaza abanyeshuri ati: ''ese murakurikiye''?

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, iyi nyubako rero ni nziza cyane kuko yaberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ikaba inatatse neza cyane rwose.

Umuntu ufashe agakarito karimo ingwa. Akaba ari umwarimu bigaragara ko agiye kwigisha, none akaba ari kureba umubare w'ingwa asigaranye. Ziri mu maboko yiwe ndetse n'amabara agiye atandukanye.

Isaha ifite imibare myinshi igiye itandukanye, ikaba imanitse ahantu ku gikuta, ifite inshinge ebyiri, ururerure rusa umutuku na ho urugufi rwo rusa icyatsi.

Akameza gasa naho gashaje karambitseho ingwa zigera muri esheshatu, imifungo ibiri umwe uriho ingwa zigera muri eshatu. Izi rero zifashishwa n'abarimu iyo barimo kwigisha.

Abana bagera muri babiri b'abanyeshuri. Aho bari mu ishuri, umwe akaba ari umuhungu, undi akaba ari umukobwa. Bari kuganira ndetse banaganira baseka. Hakaba harimo n'intebe nziza cyane, bicaraho mu gihe bari kwiga.

Indobo isa icyatsi, ikaba iteretse ahantu bigaragara ko ari ahantu hari kuva izuba. Iyi ngiyi rero bayifashisha mu burezi, aho bayirambika ahantu bakazajya bayijugunyamo imyanda.

Icyapa kimanitse ku gikuta, icyo gikuta kikaba gisa umweru na ho icyo cyapa kimanitseho, kikaba cyanditse ku rupapuro mu rurimi rw'Icyongereza ndetse habaditseho n'utuntu dutuma gifataho dusa umukara.

Abana b'abanyeshuri, bambaye impuzu z'impuzankano, bakaba bahagaze hamwe, bari kureba hepfo, hakaba hari urugo rwubakishije amatafari ahiye, iki kigo kikaba giherereye mu karere ka Huye.

Icyumba kigari, kikaba gifite idirishya ririho irido. Harimo ameza ndetse n'intebe bigiye bitandukanye. Ameza amwe, arambitseho igitenge cy'icyatsi ndetse n'igitabo. Hakaba hariho n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ariko zisakaje amabati cyangwa se amategura ya kera, bikaba bigaragaza ko ari ku kigo cy'amashuri. Hari abanyeshuri bari kuhagenda ndetse kandi hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, bigaragara ko ari ishuri, mo imbere harimo ibikoresho byose nkenenerwa abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugirango babashe gutsinda, harimo intebe ndetse n'imfashamasomo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari ikigo cy'amashuri, hari imirima ihinzemo imboga zigiye zitandukanye, by'umwihariko nk'imboga za ndamutebekanye, hari ibibuti by'inkwavu, hari kandi n'umurima uteyemo insina.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bahagaze bakoze uruziga, bakaba bari kumwe n'umugabo twakwita ko ari umwarimu wabo afite agakoni, aho agiye kubereka umukino barakina, hanyuma bakishima.

Inyubako nziza cyane ifite igipangu giteye irange ryumweru n'umukara, hakaba hashushanyijeho umwana uri kugenda afite ikaramu, munsi hakaba hari ubusitani bwiza cyane butoshye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bahagaze hamwe buri wese afite igitabo ndetse bakaba bari kumwe na mwarimu wabo, aho afite igitabo nawe ari kugenda abereka uburyo bagifata.

Mu Rwanda ahantu hagiye hatandukanye by'umwihariko nko mu ishyamba, haba hari ikingarani bakunze kumenamo imyanda igiye itandukanye nk'ibipapuro ndetse n'amashashi ku buryo bayahuriza hamwe bakayatwika.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bambaye imyambaro y'ishuri, harimo abambaye imyambaro ya kake ndetse n'abandi bambaye imyambaro ya kupe, bicaye hamwe ku kameza aho bari kugenda bungurana ibitekerezo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako zo mu kigo cy'amashuri. Zikaba zigaragara neza ndetse zifite inzugi ziteye amarange y'umweru ndetse zikozwe mu byuma.

Umuntu w'umunyeshuri, akaba yicaye, ari kwandika mu ikayi ari kugenda akuba imibare, akoresheje akamashini kabugenewe, yamara kubona igisubizo, akabyandika mu ikayi yiwe.

Mu ishuri harimo igikuta kimanitseho urupapuro rw'umweru runini cyane, rugiye ruriho uburyo imyigire igomba kugenda, byanditse mu magambo yandikishijwe ikaramu ariko akaba yanditse mu nyuguti zisa ubururu.

Aha ni ku kigo cy'amashuri, aho hari amashuri meza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba asakaje amabati y'ubururu, hari ikibuga cyaho cyiza cyane giteyemo ubusitani ku buryo kubwicaramo biba ari byiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, iciyeho akarongo gateyeho irangi rijya gusa umuhondo, ikaba ibaditseho icyapa kiri mu mabara y'umweru, ndetse n'ubururu, ariko kitagaragara neza.

Inyubako y'ishuri, aho muri iryo shuri mo imbere, harimo ibikoresho byose nkenerwa, abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gukurikira maze mwarimu niyigisha, babashe kumva ibyo arimo abigisha.

Ikigo cy'amashuri aho gisataje amabati asa umutuku n'ubururu, gifite inzugi zisa ubururu ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane burimo indabyo zigiye zitandukanye, hakurya hari imisozi myiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru, hakaba habaditseho impapuro zigera muri ebyiri, rumwe rw'umuhondo urundi rw'umweru, zombi zikaba zanditseho amagambo agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ku gikuta hamanitseho icyapa cy'umuhondo, gishushanyijeho udukino tugiye dutandukanye, hashushanyijeho umupira w'amaguru, intebe, igiti ndetse n'ishusho ya mpandenye.

Isaha y'uruziga, iri mu mabara y'mweru. Ifite imibare yanditse mu mabara y'umukara. Ikaba ifite urushinge, ururerure rusa umuhondo, urugufi rusa ubururu.

Ni ku kigo cy'amashuri, aho hari abana benshi bagiye batandukanye, bambaye impuzu mpuzankano, bakaba bari kugenda birukanka mu muhanda, bigaragara ko ari mu gihe cy'akaruhuko.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho byose nkenerwa abanyeshuri bakenera kugira ngo bige, harimo intebe zigiye zitandukanye abanyeshuri bicaraho ariko nta munyeshuri n'umwe urimo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho hari n'ubusitani impande yazo bwiza cyane, hakaba hari n'umuhanda uri kunyuramo umunyeshuri agiye ku ishuri.

Abana benshi bagiye batandukanye biga mu mashuri y'inshuke bicaye bahuriye ku meza, aho bari kugenda basangira ijambo ndetse banahanahana ibitekerezo kugira ngo basangire ubumenyi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba imanitseho icyapa kiri gusa ubururu, kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Inyubako nziza cyane kandi igezweho, ifite igikuta gisa umweru n'umukara. Ahasa umweru hakaba habaditseho urupapuro na rwo rusa umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye.

Igikuta cy'inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho ndetse yubakishije amatafari ahiye. Hakaba hamanitseho icyapa cy'umuhondo cyanditseho amoko agiye atandukanye y'ibikoresho abanyeshuri bifashisha bari kwiga.

Abana babiri b'abanyeshuri, bakaba bicaye ku ntebe. Imbere yabo bahafite mudasobwa, bari kugenda biga uburyo ki bayikoresha kugira ngo bazabashe kubaho muri iy'isi yateye imbere y'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako y'ishuri. Mo imbere harimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa mu burezi. Harimo kandi n'abana bagera muri batandatu b'abanyeshuri.

Ni mu ma cumbi y'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho haba harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bifashisha. Harimo ibitanda bibiri bigeretse kabiri kabiri ndetse n'ibindi bikoresho.

Abanyeshuri bicaye bari mu ishuri bari hamwe na mwarimu wabo, aho bari kwiga bakoresheje mudasobwa, mwarimu wabo na bo abari imbere abererekera, ni uburyo bwo guteza imbere ireme ry'uburezi.

Igitabo kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, kikaba ari icy'isomo ryitwa ubutabire, aho ari icyo mu mwaka wa gatatu abanyeshuri bifashisha bari kwiga nk'imfashanyigisho.

Abakinnyi benshi bakina umukino uzwi nka Basket, bahuriye hamwe aho bambaye imyenda y'imikara n'imyeru, aho bakinira ikipe ya APR, hakurya hari abandi bafana baje kwihera ijisho uwo mukino.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bahagaze bambaye impuzankano zisa ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki hasi, bari kumwe n'abarimu babo, aho bari kwifotoreza imbere y'ishusho ya Bikira Mariya.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bambaye imyambaro y'ishuri by'umwihariko abambaye amashati y'imyeru ndetse n'imipira y'ubururu, bicaye hanze, aho imbere yabo hari umuntu uri kubakoresha inama nabo bamuteze amatwi.

Inyubako nziza cyane ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, ikaba iriho icyapa cyerekana ko ari ku kigo cy'amashuri cya Butare, hari ubusitani bwiza cyane bwegereye icyo gipangu ndetse n'indabyo nziza cyane.

Abanyeshuri benshi cyane batandukanye, aho bamwe bahagaze abandi bicaye, bakaba bambaye impuzankano za kake n'umweru hejuru, imbere yabo hakaba hari ikibuga kiri gusa ubururu, giciyemo uruntu rw'uruziga kigaragara neza cyane.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye biga muri kaminuza, higanjemo abakobwa abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bicaye bari gukora ikizami, buri wese afite ikayi imbere ye ari kugenda yandika.

Ishuri ririmo intebe nziza cyane abanyeshuri bicaraho, rikaba ririmo n'ikibaho ariko kidahanaguye, hirya hamanitse igipapuro kiba kiriho imfashanyigisho abanyeshuri babasha gusoma igihe cyose.

Abanyeshuri bari gukina imikino igiye itandukanye y'amaboko. Bakaba bambaye impuzankano zisa z'ubururu, harimo umwe wazamutse hejuru, aho agiye gutera umupira ikiro, abandi na bo bakaba bari kwisuganya, bitegura kucyarura.

Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi Nyarwanda, mu mashuri yigisha imyuga n'ubumenyi ngiro, haba harimo ibikoresho kabuhariwe, abanyeshuri bifashisha bari kwiga, kugira ngo babashe kumenya neza ibyo biga.

Inyubako nziza cyane ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse hashushanyijeho n'icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba kandi hari umuhanda wa kaburimbo unyura iruhande rw'icyo gipangu.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho harimo ibibuga by'imyidagaduro byinshi bigiye bitandukanye, akaba ari ikigo cy'amashuri, harimo kandi n'abanyeshuri bari kugenda batembereramo.

Ni mu ishuri ryiza rigezweho, aho harimo ikibaho gisa umukara, kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye yifashishwa mu isomo ry'imibare. Mwarimu akaba atunzeho urutoki, abaza abanyeshuri niba bakurikiye.

Abantu benshi bambaye impuzankano z'udupira tw'amaboko aciye, bakaba bicaye muri sale iberamo inama, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari kureba imbere bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe bambaye impuzankano, bakaba bahagaze muri sitade ya Huye, ni sitade Mpuzamahanga yakira abantu bagera mu bihumbi icyenda, ikagira amatara meza ndetse n'ikibuga cyiza.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru bigaragara ko ari impuzankano yabo, bakaba bari kwigira kuri mudasobwa. Buri wese imbere ye, hateretse mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi.

Umwana muto w'umunyeshuri, ufashe agasorori karimo ibishyimbo gusa, hirya ye hari abandi banyeshuri bari gutembera mu kibuga, bigaragara ko ari mu masaha y'akaruhuko, bakaba bagiye kwidagadura.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ko buri kigo cy'amashuri cyose, kigomba kuba gifite isomero, aho abanyeshuri bajya bagatira ibitabo, bagasoma kugira ngo babashe kwiyungura ubwenge ndetse n'ubumenyi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zisakaje amabati atukura, zikaba ari amashuri yo ku kigo cya Butare catholique. Hakaba hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti, bizana umuyaga n'amahumbezi.

Icyapa cyiza cyane kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye, kigaragaza ko ari mu rwunge rw'amashuri rwitiriwe mutagatifu Joseph ruherereye mu karere ka Muhanga i Kabgayi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho zubakishije amatafari ahiye ndetse zigasakazwa amabati y'ubururu, hari ubusitani bwiza cyane burimo icyuma kiriho Ibendera ry'u Rwanda, hari n'abanyeshuri bari kugenda batemberamo.

Abantu bagera muri batatu, bambaye ibisarubeti bisa ubururu, akaba ari abantu biga imyuga n'ubumenyingiro, bakaba bari kugenda bashyira mu ngiro ibyo biga, bakoresheje amaboko na mwarimu abarebera ko bimeze neza.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano z'umweru, bakaba bicaye ahantu mu cyumba kiberamo inama, imbere yabo hicaye abayobozi babo bagera kuri batatu, bigaragara ko bari mu nama.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bakaba bateraniye hamwe bari mu ishuri hanze, aho bose barebye imbere ku meza irambitseho igikoresho cy'ikoranabuhanga, bari gukurikira uburyo ki bari kubigishamo.

Umusore wambaye agashati gatukura, akaba yambaye n'agapfukamunwa, ahagaze mu isomero, bigaragara ko ari umuntu ukora muri iri somero, akaba aha abanyeshuri ibitabo, bagasoma bakabasha kwiyungura ubumenyi bushya.

Abanyeshuri benshi cyane batandukanye, bicaye ku ntebe, bazengurutse abarimu babo bahagaze, bari kugira icyo bababwira. Bicaye munsi y'ibiti bibarinda izuba, bibaha akayaga n'amahumbezi.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba ihagaze hanze hari abanyeshuri benshi bagiye bahahagaze, bagenda binjira muri iyo modoka, bafite ibikoresho byabo bitandukanye birimo amamatela ndetse n'ibikapu byabo.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bicaye bari mu ishuri, aho bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amajipo n'amapantaro bya kaki, bari kureba ku nsakazamashusho iri imbere yabo, ikiganiro kiri gutangwaho.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bose bazamuye ibiganza bigaragara ko bishimye. Imbere yabo, hari undi munyeshuri uhagaze, wambaye imyenda y'ishuri watebeje na we wazamuye ibiganza ababwira ati "Turabaramutsa".

Ahantu mu ishuri, aho imbere harambitse igikanka cy'umuntu kugira ngo abanyeshuri bajye babasha kukigiraho bitabagoye, ubu ni uburyo bwiza bwo kwigisha abanyeshuri muri kujya murakoresha n'ibikorwa ngiro.

Ikigo cy'amashuri, gifite inyubako nziza cyane, zubakishije amatafari ahiye ndetse zisakaje amabati y'ubururu. Hakaba hari igipangu gifite umuryango ufunguye, ukingishijwe ibyuma, usa umweru n'icyatsi.

Umugore uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, akaba yambaye imyambaro imeze nk'impuzankano ariko kandi akaba yambaye agatambaro mu mutwe kagaragaza ko ari umubikira. Uwo muhanda ukikijwe n'ibiti bitandukanye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu bagera muri babiri, bahagaze imbere y'ikigo cy'amashuri cya Kigeme, hakaba hafunze, ariko imbere harimo umuntu ushinzwe umutekano, ugiye kuza akabafungurira ubundi bakabona kwinjira.

Buri kigo cy'amashuri kigomba kuba gifite isomero kugira ngo abanyeshuri bahiga bazabashe kubona uburezi bufite ireme ndetse bazajye basoma n'ibitabo, bongere ubumenyi, bakore n'ubushakashatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bicaye mu ishuri aho bari gukora ikizami, imbere yabo hahagaze umwarimu uri kugenda abacunga kugira ngo arebe ko ntawe urakopera.

Inyubako nziza y'ishuri aho mimbere muri iyo nyubako harimo icyibaho cyiza cyane gisa umukara icyi cyibaho kikaba cyandikishijeho ingwa isa umuhondo ndetse n'indi ngwa isa umweru.

Ishuri ririmo umwarimu akaba yambaye itaburiya akaba ahagaze ku kibaho, aho ari kugenda yigisha abanyeshuri uburyo ki babasha gukuba imibare bakabona igisubizo cya nyacyo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako zo ku kigo cy'amashuri; hakaba hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti byiza bizana umuyaga n'amahumbezi, hakaba hari imbuga ishashemo amapave.

Icyapa cyiri mumabara y'umweru cyikaba gikozwe mu byuma gishinze ahantu kigaragaza ko cyerekana ikigo cy'amashuri cya Butare, icyicyigo giherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma.

Abanyeshuri benshi cyane, bateraniye hamwe mu nzu mberabyombi iberamo inama, aho bose bakurikiye barebye imbere, bigaragara ko hari umuntu uhari uri kubakoresha inama nabo bakaba bamukurikiye.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bari mu ishuri, aho bicaye bigaragara ko bari muri sale y'inama, imbere yabo hahagaze umwarimu wambaye itaburiya, ufite indangururamajwi mu ntoki, afite ibyo ari kubabwira nabo bamuteze amatwi.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bicaye ahantu mu ishuri, aho imbere yabo hari icyapa cyanditseho RIB ndetse hakaba hari n'umugabo w'umupolisi ufite indangururamajwi ari kubabwira.

Umuntu uri gukina umukino w'amaboko uzwi nka basiketi, aho yasimbutse hejuru cyane ari gushyira umupira mu gakangara, hirya hari abandi bantu benshi bari kumwitegereza bigaragara ko bari gufana bishimye.

Umuhanda wa kaburimbo, ariko ushamikiyeho n'undi muhanda w'igitaka. Muri uwo muhanda wa kaburimbo, hakaba hahagazemo imodoka bafunguye urugi, hakaba hari abantu bari gutambika bagana muri uwo muhanda w'igitaka.

Abantu benshi cyane bicaye abandi bahagaze bazamuye ukuboko, ku ntebe y'imbere hicayemo bamwe mu bashinzwe inzego z'umutekano, harimo umusirikari ndetse n'umupolisi, biragaragara ko ari itorero ry'u Rwanda.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bahuriye mu kibuga, aho bari gukina imikino y'amaboko nk'umukino uzwi nka Volleyball, aho umwe yasimbutse mu kirere akaba agiye gutera ikiro, abandi na bo bose biteguye kucyarura.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, ikaba yanditseho amagambo menshi agiye atandukanye mu rurimi rw'Icyongereza, arimo amabara y'ubururu n'umukara ndetse n'umutuku, akaba ari ku kigo cy'amashuri cya G.S Rega.

Abantu bagera muri bane, bakaba bahagaze ahantu mu nyubako. Batonze umuronko gusa bagiye bashyiramo intera ya metero. Bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo cya Corona virus cyari cyateye mu Rwanda.

Abantu benshi bagiye batandukanye, bateraniye hamwe aho bari mu nama, imbere yabo hari umugabo uhagaze, aho ari kugenda ababwira ibintu na bo bamukurikiza, buri wese afite mudasobwa imbere ye.

Mudasobwa iri kwaka cyangwa se insakazamashusho iri kwaka mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba harimo ikirango cya kaminuza nkuru y'u Rwanda, by'umwihariko ishami rya Huye.

Ubusitani bwiza cyane bwo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bukaba buriho icyapa cyanditseho amagambo ngo birabujijwe kunyura mu busitani, hakaba harimo n'ibiti byiza cyane.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'umweru, ikaba ifite na parafo zisa umweru, hirya harenga hakaba hari ibiti bigaragara ko ari mu ishyamba.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, bari mu ishuri aho imbere yabo hari umwarimu w'umugore uri kugenda abigisha uko bagomba gukurikirana amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo icyapa kiri gusa umweru cyanditseho amagambo y'icyatsi ndetse hakaba hari n'imeza, biragaragara ko iyi nyubako ari iy'amagorofa.

Ubusitani bwiza cyane kandi butoshye bukaba bufite ibintu byinshi bigiye birimo nk'amatara agiye arimo ndetse n'ubwogero bwubakishije amakaro bwanditseho UR.

Icyapa gisa umweru cyanditseho amagambo asa ubururu, kikaba cyerekana ko ari muri Kaminuza y'u Rwanda y'Abakatolike, iherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Ngoma.

Abantu bari kugenda batembera muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye. Hakaba hari imodoka nini cyane ya bisi, yanditseho ngo kaminuza y'u Rwanda. Imbere, hari ikigega kirekire na cyo cyanditseho ngo kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zisakaje amabati meza cyane ndetse zubakishije amatafari ahiye, ziteye amarange ndetse zifite n'ubusitani bwiza cyane, hari umugore uri kwinjira mu muryango wazo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, handitseho amagambo mu ibara ry'umweru, yerekana ko aho hantu mu kuboko kw'iburyo, hari ubwiherero.

Imodoka nziza cyane zigiye zitandukanye, ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hakaba hariho imwe yanditseho amagambo y'ubururu, avuga ko ari iya Kaminuza y'u Rwanda.

Urugi rwiza cyane rusa umukara, urwo rugi rukaba rubaditseho igipapuro gisa umweru, gusa cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ayo magambo akaba ari mu ibara ry'umukara, ariko ni matoya ntabwo asomeka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako yo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, iteye amarange y'umweru n'umukara ndetse ifite n'inzugi z'ibirahure zifite n'amarido.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zifite ubusitani bwiza ndetse n'ibyuma bimanitseho amadarapo, zikaba ari inyubako zo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane iteye neza, ikaba ifite ibyumba byiza cyane, aho biteye amarangi y'umweru, hakaba harimo kandi n'intebe ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, hakaba harimo utumeza twinshi tugiye dutandukanye, twifashishwa mu bijyanye n'uburezi, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse n'ayo meza akaba asa umweru.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho izi nyubako zigiye zisakaje amabati agiye atandukanye ndetse zikaba zifite n'ubusitani bwiza buzikikije, burimo amatara amurika mu ijoro.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye ndetse n'inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, ibi byose wabisanga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, iherereye mu Ntara y'Amajyepfo.

Ni muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho hari isomero ryiza cyane riba ribitse ibitabo, ku buryo umunyeshuri wese ugishatse aza akagitira akagisomera aho ngaho, yarangiza akongera akagitirura.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iteye amarangi agiye asa umweru n'umuhondo, hakaba harimo ibyuma bizana umuyaga ndetse n'amadirishya meza cyane. Aha ni muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, hakaba hari abantu bari kugenda ku mbuga z'izo nyubako, bigaragara ko iyo mbuga ishashemo amapave, hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari ikigo cyigisha imyuga n'ubumenyi ngiro ishami rya Tumba.

Amadarajya maremare cyane agiye atandukanye, akaba akikijwe n'ubusitantani bwiza cyane ndetse n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, aha akaba ari muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane, mo imbere hakaba harimo intebe nziza cyane zifashishwa n'abanyeshuri, bigaragara ko iri ngiri ari ishuri ndetse hakaba harimo n'amarido meza cyane azana urumuri.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba igiye irimo intebe zigiye zitandukanye, bikaba bigaragara ko ari ishuri ryo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye kuko harimo intebe nziza cyane.

Mu macumbi abanyeshuri biga bacumbikirwamo, haba hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bifashisha kugira ngo imyigire yabo ibashe kugenda neza, haba harimo ibitanda ndetse n'utubati.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, imbere hakaba hari ubwogero bwubakishije amakaro ndetse imbuga yaho ikaba ishashemo amapave, aha ni muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba isakaje amabati y'umutuku, iteye amarange y'umweru, ruguru yayo hari ubusitani bwiza cyane ndetse na kaburimbo, hari n'imbuga ishashemo amapave.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bari mu ishuri, aho bari kwiga bakoresheje za mudasobwa, bamwe baricaye ndetse iruhande rwabo hahagaze umwarimu w'umuzungu, ari kubereka imikoreshereze y'izo mudasobwa.

Mu byumba abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda babamo, haba harimo ibintu byinshi byose bakenera, harimo agakapu ka Lenovo atwaramo mudasobwa y'iwe, harimo igikapu, harimo supanete ndetse n'umusego aryamaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye, abanyeshuri bicaraho. Nk'uko bigaragara, iri shuri ni irya kaminuza kuko abanyeshuri bigiramo baba biga muri kaminuza.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bigaragara ko biga muri kaminuza, aho bicaye buri wese imbere ye afite mudasobwa, imbere hihagaze umugabo w'umwarimu w'umuzungu, ari kugenda abasobanurira imikoreshereze ya za mudasobwa.

Mu bitanda cyangwa se mu byumba abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda babamo, haba harimo matela nziza cyane zigiye zigerekeranyije umunyeshuri aryamaho akamererwa neza maze akabasha gukurikirana amasomo ye neza bitamugoye.

Mu cyumba abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda babamo, by'umwihariko abanyeshuri biga bacumbikirwa. Haba harimo ibitanda byiza cyane baryamaho bifite n'imisego ndetse haba hari n'utubati babikamo inkweto zabo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho irimo ibikoresho byose nkenerwa wakwifashisha nk'intebe, ameza ndetse n'amarido hejuru ku madirishya.

Akabati keza cyane, gafite ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu burezi, cyane cyane nk'ibitabo ndetse n'ibikinisho by'abana bakiri batoya biga mu mashuri y'incuke.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifite ubusitani bugiye buzikikije ndetse n'ishyamba, hakaba hari imbuga ishashemo amapave. Aha ni muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho kandi zigiye zitandukanye, ni inyubako zo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye ahazwi nk'Imamba, hari ibiti bigiye bitandukanye bibasha kuzana umuyaga n'amahumbezi.

Imeza iteretseho mashini ya mudasobwa ikaba ar'imashini isa umweru yifashishwa n'abanyeshuri kugirango bige ndetse babashe gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'isomero, aho harimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye abanyeshuri baza gutira bagasoma, aha ni muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa aho mw'imbere hari ibyumba by'amashuri abanyeshuri bigiramo birimo intebe nziza cyane ahangaha akaba ari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe neza mu buryo bugezweho, aho ifite urugi rw'umutuku, rubaditseho igipapuro cyanditseho amagambo ariko atagaragara neza ndetse hariho na nimero, hejuru hariho icyapa cyanditseho ko ari icyo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Mudasobwa ifunguye aho iri kwaka mu mabara y'umweru, hakaba handitsemo amagambo ari mu mabara agiye atandukanye y'umutuku ndetse n'umukara. Hakaba hari umunyeshuri uri kugenda ayiga.

Mu cyumba umunyeshuri wiga muri kaminuza abamo, cyane cyane abiga bacumbikirwa mu kigo, haba harimo ibikoresho byose nkenerwa, bibasha kumufasha mu myigire ye kugira ngo azabashe gutsinda.

Inyubako nini cyane izwi nk'isomero, aho abanyeshuri bajya ku ishuri bakabasha kuhabona ibitabo, bakagenda bagasoma maze ubumenyi bwabo bukiyongera bugatera imbere.

Muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahazwi nko mu nyubako ya Koyika, haba harimo icyapa kigaragaza, umubare w'amagorofa agiye yarimo, kugira ngo umuntu uhagiye asobanukirwe.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bakaba bicaye ku ntebe zabo barebye imbere, hari udushushanyo twinshi two mu mabara agiye atandukanye, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'isomero ya Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, harimo intebe zigiye zitandukanye, abanyeshuri bicaraho igihe bari gukora isubiramo ry'amasomo.

Ubusitani bwiza cyane butoshye kandi burimo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, aho ubu busitani bwegereye inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho ndetse isakaje amabati atukura.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere bw'amagorofa, zikaba ziteye amarange agiye asa umweru, zigeretse inshuro nyinshi, hasi, hari imbuga ishashemo amapive.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru gicanyeho amatara ari kwaka ndetse hakaba hamanitsweho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umukara, avuga ko ari isomero ry'abiga ibijyanye n'ubuvuzi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bari mu cyumba kigari kiberamo inama. Biragaragara ko bari gufungura kandi bishimye. Harimo intebe zisa umweru, amatara ari kwaka kandi abantu bamwe barahagaze abandi baricaye.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bahuriye hamwe mu ishuri bigiramo ubumenyi ngiro, aho baba bari gushyira mu bikorwa ibyo biga, bakaba bari kurebera mu byuma kabuhariwe bizwi nka mayikorosikopi mu ndimi z'amahanga.

Icyapa kiri mu mabarura y'umweru cyanditseho inyuguti ziri mu mabara y'umukara. Zikaba zanditse mu bihande bitatu, icya mbere byanditse mu rurimi rw'Igifaransa, icya kabiri byanditse mu rurimi rw'Icyongereza n'aho icya gatatu ni ururimi rw'Ikinyarwanda.